Inzu icuruza imyenda hakaba ari imyenda igiye imanitse, igikuta gisize irange ry'umuhondo harimo amakaro y'umweru, hejuru hakaba hari igisenge cy'umweru hari kugenda hakaho amatara.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo: amapantaro, amakoti yo kwifubika, ndetse n'amakabutura bikaba bimanitse hasi ku nzu, haba hubakishiije amakaro y'umweru, hejuru hakaba hari amatara acanye amurika mu iryo duka.

Inzu y'ubucuruzi isize irangi ry'icyatsi, hakaba hamanitse imyenda y'abagore iri mu mabara y'ubururu, icyatsi, umutuku n'andi menshi, hakaba hari numero wahamagaraho umucuruzi waho.

Iduka ricuruza ibikapu bidoze mu bitenge, birimo amabara atandukanye; umutuku, umukara, umuhondo, icyatsi, umweru, n'ibindi, akaba ari inzu isize irangi ry'umweru, amadirishya asize irangi ry'umukara.

Inzu icuruza imitako itandukanye harimo uduseke, inkangara, imitako bamanika mu nzu, amahembe y'inka n'inkoni, akaba ari inzu yubatswe ifite amakaro y'umweru, ikaba ifite n'igisenge cya kaki.

Imodoka eshatu zihagaze ahantu hamwe zisize ibara ry'umweru n'umukara zifite amatara y'umutuku, imbere yaho hakaba hateye ibiti hari n'isinga z'amashanyarazi zifashe ku byuma, zigenda zitanga amashanyarazi ku bahatuye.

Imodoka yikoreye imizigo yo mu bwoko bwa hoho isa umweru, inyuma yayo hakaba hari inzu ndende ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu ku hande hakaba hari indi hoho ifite amarange y'umutuku.

Yundayi Rwanda ni ikigo gicuruza imodoka ni imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zikaba zihagaze ahantu hamwe.

Inzu mberabyombi ubona ko irimo abantu benshi higanjemo abantu bakuze ndetse n'urubyiruko, ariko hakaba harimo n'abayobozi, ukaba ureba ko bose bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi, buri wese imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi. Hakaba harimo n'umuntu uhagaze inyuma wambaye impuzankano y'umukara.

Umunsi umwe gusa, ubura umunsi umwe gusa, kugira ngo wishyure umusoro wawe wa bibiri na makumyabiri na Kane, ukaba usabwa kwishyura no kudekarara umusoro mbere y’igihe cyagenwe, wirinde amande.

Umuntu wagiye kuri banki kubikuza amafaranga wambaye ishati irimo imirongo imanuka n'tambika ku rutugu akaba afite umupira w'umutuku, imbere hari undi uri kumwakira wambaye baji mu ijosi n'umupira wa buresiyeri, uri kubara amafaranga mu kamashini imbere ye hatetse imashini y'umukara.

Aho bakirira abantu baje kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga y'abo, imbere hari umuntu wambaye imyenda y'umukara, akaba yateretse mudasobwa imbere ye akoreraho, inyuma hakaba hahagaze umugabo wambaye ikote n'ipantaro by'umukara n'ishati y'umweru, afite ikaramu mu mufuka.

Igiceri cya makumyabiri cy'amafaranga y'u Rwanda giteretse ku meza, arimo ibara ry'umweru ndetse n'ivu, kikaba kigizwe n'ikirangantego kiriho ipfundo, agaseke, isaka ndetse n'ikawa.

Amafaranga y'u Rwanda inote ya bitanu hariho inzu yo mu mujyi wa Kigali yo mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi rigize ibendera ry'u Rwanda akaba ateretse ku meza.

Umuntu uri kunywa cyayi mu gikombe cy'umweru akaba yicaye ku meza asizerengi ry'ivu, afite isahane isa umweru iriho irindazi na keke, akaba ari kubiterurisha ikanya n'ikiyiko.

Iduka ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa harimo keke, amata, amazi yo kunywa, hakaba harimo intebe abakiriya bicaraho. Hejuru kuri etajeri hakaba hateretseho inkongoro zijyamo amata.

Iduka ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa haririmo icyayi, hari imitobe n'amazi, imbere hicayemo umucuruzi wambaye ikanzu y'icyatsi. Hakaba hari umukiriya wambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya karokaro uri guhaha n'intebe abakiriya bicaraho.

Umwana muto uhagaze wambaye isarubeti iriho udupupe afite telefone mu ntoki, inyuma ye hicaye abantu babiri, umwe wambaye umupira w'ubururu n'ijiri y'umutuku, undi wambaye umupiro w'umukara hejuru umutuku, bari ku makayo y'umweru hakaba hateretse igicuba.

Iduka ricuruza ibyo kurya byihuse n'ibyo kunywa icyayi cy'amata, mukaru na capati ziri mu ndobo bikaba biteretse ku kameza gaza ubururu, ku gikuta hakaba hasize irangi ry'ubururu n'umweru no ku madirishya.

Iduka ricuruza ibyo kunywa bitetse muri etajeri y'umweru, ku gikuta hakaba hasize irangi ry'ubururu n'umweru bivanze. Hakaba harimo amazi ya niri, marite ,umutobe w'inyange, fanta ,novida n'ibindi.

Inzu icuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa harimo amata y'inyanza, hakaba hahagaze moto itariho umuntu kandagira ukarabe iriho indobo y'ubururu n'akabase k'icyatsi, inyuma yayo hakaba hubatse inzu isakaje amabati y'umutuku hateye n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inzu y'ubucuruzi igereretse inshuro zirenze eshatu, ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye aho bakodeshereza amakositimu n'amakanzu y'ubukwe, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Inzu irimo amakara y'umweru bari gukoropa, imbere ku ibaraza hakaba hahagaze igare. Hari umuhanda w'ibitaka, uriho moto ipakiye igicuba n'ibindi bicuba bitetse hasi, hakaba hari ibiti by'ubwoko bitandukanye, munsi yaho harimo abantu.

Inzu irimo ikaragiro ry'amata y'i Nyanza hakaba yicayemo umukiriya yambaye ikoti ry'umukara, harimo etajeri irimo ubujekani ba litiro eshanu, litiro ebyiri busa umweru burimo amata.

Inzu icuruza amata y'inyange ikaba ifite inzugi zisize irangi ry'ubururu ku ibara zahatetse kandagira ukarabe y'agapipa k'icyatsi n'akabasa k'icyatsi imbere hari intebe z'ubururu n'ameza y'umweru abakiriya bicaraho.

Iduka acuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa, harimo amata, icyayi, amandazi ari mu ndobo z'umweru n'imigati, hakaba hari icyuma gikonjesha amata cyo mu ibara ry'umweru, hari ameza n'intebe abakiriya bicaraho.

Iduka ricuruza amata y'Inyange imitobe y'inyange, amandazi, keke ,amata y'inshyushyu ikivuguto akaba asize irangi ry'ubururu etajeri irimo utubara tw'umweru.

Inzu icuruza ibiribwa n'ibinyobwa harimo amata ya mukamira, hakaba harimo firigo ikonjesha ibyo kunywa twaramo umuntu w'umukiriya umaze kuyifata ibyo amaze kurya no kunywa agiye kwishyura yambaye ishati y'umakara rukara.

Iduka ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa byihuse harimo amata icyayi, hakaba hari umukobwa wambaye ishati y'umutuku uri kuganiza amata mu bikombe by'abakiriya banyweramo, akaba ari inzu isizemo irangi ry'icyatsi ku gikuta hakaba hamanitse itaburiya y'umweru.

Iduka ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Hari etajeri y'umweru irimo ibirahuri n'amatasi byo kunyweramo, indobo iteretse y'umweru ibonerana irimo amandazi, hejuru hakaba hari indi etajeri isa ubururu irimo amata y'inyange n'amazi yo kunywa.

Iduka ricuruza ibyo urya n'ibyo kunywa, harimo: amata, amazi n'imitobe, harimo intebe yo kwicaraho isa ubururu hakaba hari umugabo uri kugura wambaye ishati y'umukara, imbere ye hicaye umucuruzi wamaye ikote ry'ikoboyi.

Abantu batatu bicaye bari kunywa amata, harimo umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amabara avanze, mu iduka risize irangi r'ubururu n'umweru, bakaba bicaye kumeza hariho ishashi ibonerana.

Umubyeyi uri mu iduka ricuruza, amata akaba afite ijage irimo amata, n'igitambaro kiri mu ibara ry'icyatsi n'umukara, impande ye hateretse icupa riri mu ibara ry'icyatsi, ku meza asize irangi ry'umweru, akoze mu giti ateretseho ijage n'umubikira.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'isaha ku kuboko afite igikombe mu ntoki ari kubuganizamo amata akoresheje ijage. Imbere hateretse ibikombe byubitse ku meza hakaba harimo n'ibyapa byerekana ko bafite amata meza.

Iyi ni inzu y'ubwishingizi ahangaha uraza bakaguheza ubwishingizi. Ugashinganisha ibikorwa byawe, ugashinganisha amazu yawe, ugashinganisha umuryango wawe n'abana bawe.

Inzu ikorerwamo ivunjara n'ivunjisha ry'amafaranga yaba iri ayo mu Rwanda cyangwa se ayo hanze irimo inzugi za kake hakaba hateye indabo z'ubwoko butandukanye hakaba hari n'inzugi zisohoka zisize irange ry'ubururu.

Ameza akoze mu biti asize irangi ry'umweru, intebe zikoze mu biti zifite imisego y'icyatsi ziteye mu nzu irimo amakaro igikuta gisize irangi ry'umweru, ameza akaba ariho umutako.

Intebe zo mu ruganinriro zikoze mu biti, zikaba zifite imisego y'umweru n'ameza asize irangi ry'umukara, hasi harimo amakara y'umweru, ku gikuta hakaba hasize irangi ry'mweru.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Agakiriro kabaza ibiti bikavamo imbaho, harunze imbaho nyinshi cyane impande yaho hari igiti cyumagaye, munsi hakaba hahagaze abantu batatu, ku ruhande rw'imbaho hakaba hari shitingi zo mu ibara ry'ubururu.

Inzu ifite amakaro y'umweru, ibikuta bisize irangi ry'umweru, harimo intebe z'imisego isa umuhondo, inyuma hakaba hari ameza yo kuriraho ariho intebe bisa umukara, ifite imisego y'umweru.

Ameza akoze mu biti yo kuriraho ariho n'intebe enye zikoze mu biti, bikaba byegereye umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari uri kumanuka n'imodoka yikorera imizigo yo mu ibara ry'umweru iri kuzamuka, hirya yaho hakaba hari inzu z'ubucuruzi zitandukanye.

Icyumba cy'uruganiriro gisize irangi ry'umweru rifite amakaro ya kake n'ivu, hakaba hari akabati gateretsemo ikoranabuhanga ryerekana amashusho, hateguye indabo.

Inzu igeretse yubakishije amatafari ahiye isize amarange y'ivu ifite imireko ibiri ku mpande ikaba isakaje amategura imbere y'iyo nzu hakaba haparitse imodoka ebyiri zitwara abantu.

Ubusitani buteyemo indabo n'ibyatsi, impande yaho hakaba hagiye hateye imitaka abantu bicaramo, hakaba hari amazi abantu bogamo iyo bari kuruhuka. Hejuru yaho hari abantu bari gutera imiti muri ayo mazi.

Inzu nini cyane yakira ba mukerarugendo ifite ibirahure byinshi ikaba ikikijwe n'indabo nyinshi cyane, hari imitaka yicaramo abakiriya bari kuruhuka cyangwa bari gufata amafunguro, imbere y'ayo mazu hakaba hari amazi abantu bogamo.

Icyumba cy'inama giteguyemo intebe z'umukara, ameza akaba ateguyeho ibitambaro by'ubururu, imbere ya buri ntebe hakaba hateretse amazi yo kunywa, hasi hakaba hateguyemo itapi y'ibara ry'umutuku, ku mpande hakaba hariho amarido y'umuhondo.

Inzu ndende ikikijwe n'ubusitane burimo indabyo zitandukanye, imbere y'iyo nzu hakaba hari amazi menshi abantu bogamo bashaka kuruhuka, kuri aya mazi hakaba yicaye abana babiri, n'undi mugabo uhagaze impande yayo.

Ubusitani bwiza buteretsemo intebe n'ameza n'umutaka abakiliya bicaramo, hirya y'ubusitani hakaba hari inzu yubakije amatafari ahiye, isize irangi ry'ivu, iyo nzu ikaba isakaje amategura, hakaba hagiye hariho n'amatara agenda amurika.

Ubusitani buteyemo ameza n'intebe abakiriye bicaraho, impande yaho hakaba hari amazi abantu bogeramo, hirya y'amazi hari umutaka usa umutuku urimo intebe abantu baruhukiraho, inyuma y'igipangu hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Iki ni kimwe mu bigo byiza cyane ushobora kujya kubariza cyangwa gushopinga imyenda, bacuruza imyenda y'abagabo, n' iy'abagore ndetse ni iy'abana. Ni rawa doti eya korozingi sitowa.

Ahantu hateguye neza ameza ariho ibitambaro by'umweru haka amatara menshi, hejuru ku gisenge hakaba hateguyeho indabo ndetse n'imiseke, imbere yaho hantu hakaba hari amazi.

Icyapa cy'ubwishingizi bwa purayime ishami rya musanze rikaba ari ubwishingizi butangwa ku mamodoka cg se ku binyabiziga, impande y'icyo cyapa hakaba hahagaze umuntu wambaye ingofero n'ishati y'ubururu.

Ubwishingizi bwa purime ishami ry'i Rusizi rikaba ryubatse mu nzu isize irangi ry'umuhondo, hakaba hari ibyapa by'umuhondo n'ubururu, ni ubwishingizi butangwa ku modoka cyangwa se ibinyabiziga byose mu gihe habaye impanuka.

Iri ni itopo ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi kubera insinga bagenda bamanikaho, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho bose.

Inzu nshyashya igurishwa mu mujyi wa kigali mu gace ka kanombe ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'imwe z'amanyarwanda, iyo nzu iri mu bwoko bwa cadasiteri isakajwe amabati ya shokora ndetse inzugi zayo zisa umukara ikaba iteye irangi ry'icyatsi, imbere y'iyo nzu hubatswe amapave.

Umuntu ufite ubumuga, uhagaze, ufite imbago mu ntoki wambaye igitenge, uteze igitambaro, n'agafuka mu ntoki, agiye kugura imbuto z'imineke na voka, imbere yateretse amabase y'umutuku, umukara n'ubururu.

Isoko ricuruza imboga harimo: intoryi, ibitunguru, inyanya; hari abacuruzi b'abagore bicaye hamwe bacuruje, hirya yabo hakaba hari umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umweru hamwe n'agapira k'umukara, n'umwana umuhagaze impande.

Isoko rya kijyambere ryubatse n'ibyuma hakaba harimo imboga, harimo intoryi, karoti amashu, dodo ndetse n'ibitunguru, hakaba haterutse indobo y'icyatsi, harimo umucuruzi wicaye wambaye agapira k'umukara n'umweru.

Isoko rya kijyambere ricuruje imboga n'imbuto harimo amashu, inyanya, urusenda, karoti, avoka n'ibindi, hagiye hariho utwapa turanga ibicuruzwa bikaba bigihe bitwikijwe imitaka y'umweru.

Umujyi wubatsemo amazu menshi cyane ay'ubucuruzi, amazu agerekeranye ay'abantu batuyemo, hakaba hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi zikorera imizigo n'izitwara abantu ku giti cyabo n'abantu benshi bari kugenda mu muhanda.

Isoko rya kijyambere ryubakishije ibyuma bisiza amarange y'umutuku bikaba bifite amabati asa ubururu yubakishije amatafa arihiye akaba ari isoko ririmo abagore bacuruje imboga, hakaba hari umudaso ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'icyatsi.

Iduka ricuruza uduseke, imitako yo mu nzu, ingabo, ibikapu; hakaba harimo abagabo batatu baje guhaha. Harimo umwe wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye ingofero y'umukara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ndetse kugenderwamo n'ibinyabiziga byinshi, harimo ama moto ndetse n'amagare ahetse abagenzi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi kandi byiza ndetse inyuma y'aho hakaba haparitswe n'ibindi binyabiziga binini harimo nk'amakamyo y'umweru.

Iduka ricuruza imboga harimo inyanya, intoryi, imiteja, karoti, pavuro n'ibindi birungo bijya mu mboga. Hakaba hari indobo, isahane y'umuzani, urutaro, n'ibase bapimiramo.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bidanditse hasi harimo n'abaguzi benshi harimo amateke, ibitoki, karoti, imineke, ibihaza n'imyumbati n'inyanya, abacuruzi bagiye bahagaze imbere yabyo bategereje abaguzi.

Umubyeyi uri mu isoko ucuruza imbuto harimo imyembe, indimu n'ibindi imbere ye hakaba hari umuguzi uri kumuhahira, yambaye agapira k'umutuku, agapfukamunwa akaba afite n'isakoshi mu ntoki.

Umubyeyi uteze igitambaro cy'umukara n'umweru yambaye amaherena, yicaye mu bicuruzwa bye imbuto n'imboga harimo: inyanya, imineke, imyembe, ibihaza, pavuro n'ibirenganya.

Isoko rya kijyambere ricuruje amashu, inyanya, imiteja, povro, cocombre. Nyuma hakaba hari amakaroni, amavuta yo guteka n'ibitunguru Kuba hari umumama wicaye yambaye ibitenge ucuruje.

Isoko rya kijyambere ryubakishije ibisenge by'ibyuma rikaba risakajwe n'amabati ni isoko ricuruje ibitoki, karoti, ibitunguru, inyanya, amashu harimo abacuruzi benshi higanjemo abagore hakaba hari n'umwe uhetse umwana umutwikije agashuka k'umweru.

By'ibanze wakora mu gihe habayeho gusohoka kwa gaze, mu gihe uri nko mu nzu ushobora gusohoka cyangwa ugakoresha ubundi buryo bwakurinda kugira ngo itaza kukwangiza.

Abantu bari mu isoko bacuruje imboga harimo inyanya, intoryi bikaba babidanditse hasi ku mifuka, ni ababyeyi bicaye bambaye ibitenge harimo umwana umwe wambaye ipantaro y'umutuku n'umupira w'umuhondo n'umugabo wambaye ingofero y'ubururu.

Isoko ry'imboga harimo inyanya, urutaro ruhiho urunyrwe n'ibishyimbo, hamwe n'urundi ruriho ibitunguru, imiteja, kokombure, hakaba harimo abantu baje guhaha benshi hari umumama ucuruje wambaye nk'abayisiramu.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye risakaje amabati y'umuhondo, imbere yaho hagaze imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye. Hateye imitaka y'abacuruzi isa umuhondo bacuruza amayinite banabitsa bakanabikuza.

Isoko ririmo ibyo kurya, imyenda yo kwambara, ingofero, ibitenge, amabiswi wacurujemo, ababyeyi bahetse abana bakaba bateraniye mu isoko ari abantu benshi bacuruje ibintu bitandukanye, hari umubyeyi ufashe mu mugongo n'amoboko abiri.

Inzu y'umukozi wa eyateri iri mu ibara ry'umutuku hakajya hariho ibyapa by'ibyo eyateri ikora, ikaba iteretse ku muhanda hirya y'aho hakaba hari ibiti bihateye.

Abakozi ba emutiyene bambaye imipira y'umuhondo n'amabaji mu ijosi, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi hejuru yabo hamanitse icyapa kigaragaza ko bakora simu swapu ku buntu.

Abakozi batatu bambaye imyenda ya emutiyeni bigaragaza ko ari abakozi ba emutiyane bicaye mu mutaka, bakaba bari kumwe n'umukiriya uri kubaka serivise, inyuma yabo hakaba hari imodoka ifite akabara k'umweru n'umutuku iri kugenda mu muhanda.

Inzu y'umucuruzi wa emutiyene akaba afite umukiriya uhagaze hanze wambaye ikositimu z'umukara, imbere hakaba harimo umukobwa hirya y'iyo nzu hari umugabo ufite igikapu ku rutugu wambaye ingofero y'umweru.

Abantu babiri, umukobwa n'umuhungu bagiye kwa serivise muri MTN,bari kwakirwa n'umukobwa wambaye ikanzu y'umukara uri kuri mashine, inyuma kugikuta haba hamanitse icyapa kiriho amazu maremare hari n'ikoranabuhanga ryerekana amashusho.

Akazu k'umucuruzi wa emutiyene gateye ku umuhanda gasa umuhondo, hakaba hari abakiriya baje kubitsa no kubikuza, ni abagabo batatu n'abakobwa babiri. Umukobwa yambaye ijipo y'umukara n'ishati y'umutuku, undi afite igikapu mu ntoki, undi mugabo yambaye umupira w'umweru.

Inzu y'umucuruzi wa MTN isa umuhondo, hakaba hari abakiriya benshi baje kubitsa no kubikuza amafaranga y'abo, hari ufite igikapu ku rutugu cy'umukara, wambaye ijipo y'ubururu n'ishati y'umweru, hirya hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inzu isize amabara y'umuhondo n'umukara ya Emutiyene, inyuma hari umuntu ucunga umutekano wambaye imyenda y'umukara, hirya hari abantu bari kwaka serivisi; hari uwambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y' umukara, n'uwambaye ipantaro y'umutuku n'agapira k'umukara.

Icyapa gisa umuhodo umuntu yishyuriraho akoresheje telefone akanda akanyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri, umunani, akanyenyeri rimwe akanyerezo, zeru karindi ikenda gatanu, gatanu, karindwi umunani urwego, ni icyapa giteye ku gikuta gisize irangi ry'umweru.

Umuntu uri mu kazu ka emutiyene gasa umuhondo, acuruza amayinite akabitsa akanabikuza, yambaye umupira urimo imirongo itambika y'umukara n'umweru, hakaba hamanitsemo icyapa kiriho ibiciro by'uko acuruza.

Inzu y'umucuruzi wa eyateli ibara ry'umutuku ubitsa akanabikoza amafaranga abakiriya uko babishaka, impande hahagaze abantu batatu barimo umukobwa wambaye agapira karimo imirongo itambitse y'ubururu, umweru n'umuhondo akaba yegeranyen'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki.

Inzu z'ubucuruzi hamwe hakoreramo umukozi wa emutiyene ahandi hakoreramo umukozi wa tigo ni inzu zitanga serivisi ku bazigana baba baje kubikuza cyangwa se kubitsa amafaranga cyangwa baje kugura amayinite yo guhamagara.

Ahantu bacuruza ibikomoka kuri peterori hakaba hari umumotari wambaye kasike y'umukara uri kunywesha esanse, imbere hakaba hari abantu bacuruza esanse bambaye imipira y'umuhondo bari kugenda bamuha, hakaba hari n'icyapa cyo kwishyura ukoresheje momo.

Inzu mu ibara ry'umweru, umukara, umutuku ibirahure bifunguye inzugi zifunguye hariho ibyapa byamamaza mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ikinyabiziga gifite ibara ry'umuntu kiri kunyura imbere.

Umuntu ari kwishyura akoresheje telefone aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani, rimwe kwishyura kuri momo pay igihe udafite amafaranga mu ntoki ni uburyo bwiza kandi bukoreshwa ahantu hose .

Kaburimbo irimo imodoka ifite ibara ry'ivu, hirya yayo hubatse inzu iri mu marange y'umweru ndetse n'umukara, inzu ikikijwe n'igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, hariho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, ndetse n'ikindi cyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inzu ebyiri imwe y'umucuruzi wa airtel indi umucuruzi wa MTN hakaba hahagaze abakiriya babiri baje kubitsa no kubikuza. Inyuma yaho hahagaze imodoka itwara abantu ku giti cyabo.

Icyapa cyanditseho emutiyene na tigo na eyateri, imbere yaho hakaba hari akazu k'umuhondo k'umucuruzi wa emutiyene, hahagaze abantu batatu b'abagabo umwe yambaye agapira k'umutuku kanditseho amagambo y'umweru.

Inzu y'umucuruzi wa MTN isa umuhondo, imbere yaho hahagaze umukiriya ufite igikapu mu ntoki. Hirya ye hakaba hari indi nzu yubatse mu biti, hakaba hateye n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Akazu k'umuhondo karimo umukozi wa emutiyene ari kwandika mu ikayi ufite ikaramu y'ubururu, yambaye agapira karimo amabara atambitse y'umweru na shokora, imbere ye hakaba hari umukiriya wambaye agasengengeri uje kumwaka serivisi.

Isoko ririmo amapantalo y'abagabo amanitse; hakaba hari icyapa cy'umuhondo cyerekana ko umuntu yakishyura akoresheje telefone; ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyeyeri rimwe; ugashyiramo kode y'umucuruzi.

Abantu batatu bahagaze imbere y'ameza arimo ibara ry'ubururu babiri bambaye imipira y'umuhondo, umwe yambaye umupira w'ubururu wanditseho momo, inyuma hakaba hari imitaka yanditseho pirimusi.

Akazu k'umucuruzi wa MTN gasa umuhondo, hakaba hari umukiriya uri kubitsa anabikuza wambaye ipantaro, umupira w'umweru, ahetse igikapu cy'umukara. Kakaba kari munsi y'indabo zitandukanye, hirya yabo hakaba hari akandi kazu ko mu ibara ry'icyatsi.

Umumotari wambaye ingofero y'abamotari imurinda gukomereka mu gihe habaye impanuka, ahagaze imbere ya moto ye ipakiye umuzigo wo mu ibara ry'umutuku hariho n'ingufuri, hirya ye hakaba hari imodoka y'umweru n'indi y'umukara.

Abantu batwaye moto zipakiye ibikarito birimo ibara ry'umutuku, akaba ari abantu bane bahagaze mu muhanda wa kaburimbo, imbere yaho hari igipangu gisize ibara ry'umuhondo, imbere muri icyo gipangu hateyemo indabo.

Umuhanda uriho ibyapa byishi, icya pirimusi n'icy'umuhanda ujya mu Bugarama, imbere y'ibyapa hakaba habaze umumotari wambaye ishati y'icyatsi na kasike y'icyatsi moto ye ikaba iriho igikarito cya vuba vuba.

Umumotari wambaye kasike y'umuhondo, ari gupakira imizigo kuri moto, umuzingo ufite ibara ry'umuhondo, impande ye hakaba hateye ibiti n'indabo byo mubwoko butandukanye, hari n'inzu ndende isize amarangi y'umweru, hari amatara ku muhanda amurika.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'umutuku, imbere ubuso n'umweru, ikirango n'umukara. Iki cyapa kirereka abayobozi b'amamodoka ko imbere aho bari kujya hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi.

Uyu n’umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihanyura byose.

Abapolisi babiri bagana inifomo za polisi y'igihugu y'u Rwanda umwe muri bo yambaje ya polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda, abapolisi bahagaze ku muhanda inyuma yabo hari akazu abagenzi bahagarara bategereje bisi nyuma y'ako kazu hari igipangu ndetse ku ruhande rwa hirya hari igiti.

Inzu irimo uburiri bushashe amashuka y'umweru, harimo umusego w'umuntu umwe, ku gikuta hasize irangi ry'umweru hakaba hari amarido y'ibara ry'icyatsi n'umweru. Ni inzu ikodeshwa amafaranga magana atanu na mirongo itanu ku kwezi.

Ubusitani buteye mo ibiti by'imbuto, indabyo, ndetse n'ibyatsi, hakaba hari igipangu gisize irangi ry'ivu. Impande y'icyo gipangu harambitse ibiti byumye harimo n'urwego, hakaba hari n'igipangu hepfo cyubatse n'amatafari ahiye.

Inzu igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri iherereye i kigali, yubatse ku muhanda w'ibitaka ikaba ifite igipangu gisize amarangi y'umukara n'umweru n'inzu isakaje amabati y'umutuku.

Inzu zikodeshwa ziri i Remera ku muhanda wa kaburimbo, zifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, inzugi zisize irangi ry'umukara, hakaba ari inzu isize irangi ry'ubururu ndetse n'iry'ivu, hakaba hari umuryango uhagazeho umuntu.

Isoko ry'imboga harimo: inyanya, amashu, karoti, imiteja, burokori, ibitunguru, puwavuro, bihacuruje; abadamu harimo uwambaye imyenda y'ubururu, hari n'uwambaye imyenda y'umutuku, hamanitse n'ibikapu ku ruhande bagiye bicuruzwa.

Mu Rwanda hari utubari tugiye dutandukanye twinshi, utubari two mu Rwanda dukomeje guterimbere bitewe na serivise nziza tugenda dutanga, ahangaha hari intebe nziza abaturage bashobora kuba bakwicaramo ushobora kuba wasohokana n'abawe ndetse mukahagirira ibihe byiza kuko bababafite ibinyobwa bitandukanye.

Imigati ipakiye mu bipapuro ikaba ipanze neza mu kabati k'ibiti gasize irangi ry'umutuku akaba hari umuntu uri guterura umugati umwe yambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku.

Iduka ricuruza ibikapu inkweto zifunze z'abagabo n'izifunguye imikandara harimo abagabo batatu bari guhaha n'umucuruzi umwe uteze agatambaro kari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso hakaba haganjemo ababyeyi bambaye ibitenge, imbere bafite icyapa cy'iri mu ibara ry'ubururu cyanditseho n'amagambo y'umweru cyerekana ko bamaze kwishyurwa ubwisungane mu kwivuza.

Inzu abantu bivurizamo ikaba isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'ubururu, imbere y'iyoo nzu hari umubyeyi wambaye ikanzu idoze mu gitenge, yambaye agapfukanwa k'umukara, hari n'abandi bicaye ku ntebe zo kwa muganga.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanyijemo ibice bibiri igice kimanuka n'ikizamuka hagati hakaba hateyemo ubusitani burimo nipoto ririho amata amurikira umuhanda uruhande ruzamuka rwarimo imodoka nyinshi zitwara abagenzi n'izitwara abantu ku giti cyabo.

Umuntu wambaye ishati yumweru ufite imisatsi y'umukara wambaye amaherena, imbere ye hateretse ibipapuro by'umweru uri gukora muri terefone ufite n'ikaramu yo kwandikisha, yicaye ku meza imbere y'ameza hakaba hari intebe yumweru.

Ababyeyi babiri bicaye, bafite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iriho ifoto ya nyirayo igihe yavukiye n'amazina ye, hakaba hateyemo kashe zigaragaza igihe bishyuriye n'igihe ubwishyu buzarangirira.

Ikarita y'ubwishingizi mu kwivuza ni ikarita yerekana ko wishyuye ubwishingizi mu kwivuza mu Rwanda. Ikaba ari ikarita ngendanwa aho umuntu ajya hose, cyane cyane igihe agiye kwa muganga. Ni ikarita igaragaza ko yishyuye, bakamuvura nta bindi bisabwe.

Abantu bicaye mu busitani burimo ibyatsi, inyuma hakaba hari inzu ifite igikuta cyubatse n'amatafari ahiye, imbere ya hari umuntu wambaye ishati y'amabara y'umukara n'umweru wambaye n'ipantaro ari kugenda abahereza ibipapuro basoma.

Ikarita y'ubwisugane mu kwivuza hariho ifoto ya nyirayo n'amazina ye, igihe yavukiye, akarere, umurenge n'akagari atuyemo hariho na kashe n'amatariki bigaragaza igihe yishyu mitiweli igihe n'igihe izarangirira.

Umuntu uri kwivuza ufite ubwisungane mu kwivuza mu ntoki bwerekana ko yishyuye akaba yicaye ku ntebe y'igiti, imbere ye hateretse ameza akoze mu giti n'umuntu wambaye itaburiya y'umweru uri kwandika mu gitabo.

Abantu bicaye ku ntebe bimeze nk'abaje gusaba serivisi, ku intebe ya mbere ari umugore ufite isakoshi y'umukara ya kabiri hari umugore we wifuza isharupe nyamara ari umukecuru uhagaze ambaye umupira wa orange ateza igitambaro nyuma hari undi musaza ufite inkoni uri kugenda.

Abagore bane bicaye bafite ubwisungane mu kwivuza mu ntoki bw'abana babo, bugiye hariho n'amafoto yabo, babiri bakaba bafite abana abandi babiri ntabo bafite, bose bakaba bateze ibitambaro.

Abantu bicaye kwa muganga, imbere yaho hakaba ha hagaze umuntu umwe uhetse umwana, akenyeye n'igitenge cy'amababara y'icyatsi n'umweru. Inyuma ku gikuta hari amatafari ahiye, akamanitseho ibipapuro byigisha ababyeyi uko bafata abana babo neza.

Iki gikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ,iki gikoresho ahenshi kiba kiri mu nzu nini, inyubako nini cyane ku buryo ifashwe n'umuriro byakwifashishwa kugira ngo bayikumire. Iki gikoresho ni cyiza kuko kirinda abaturage ndetse n'ibikorwa remezo byabo.

Inzu icuruza ibyo kunywa by'amoko menshi, biteretse m'utubati, harimo ibisa umukara; umutuku; umuhondo; icyatsi; ubururu; hejuru hakaba hari amatara ari kwaka, hari n'udufata amashusho ducunga umutekano muri iryo soko.

Isoko rya kijyambere hagiye harimo ibicuruzwa bitandukanye amedo amanesikafe hakwateretse mo puberi y'umutuku hakaba harimo amatara menshi cyane yaka umweru atuma hano mu isoko habona neza hirya akamomo umugabo wambaye imyenda y'umukara uri gutambuka ahaha.

Isoko rya kijyambere ricuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa harimo umuntu uvuye guhaha ari kubarisha ngo yishyure mu byo yamaze guhaha harimo abantu benshi batandukanye bamaze guhaha no kugenda bishyura imbere yabo hagiye harambitse imashini.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo ibyo kurya, ibikora amasuku, imbere y'iyo nzu hari kandagira ukarabe, hariho indobo y'ubururu n'akabase k'icyatsi. Imbere y'iyo nzu hahagaze imodoka y'umukara.

Iduka ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa harimo amata, amazi, amafanta, bikaba biri muri etajeri isize irange ry'umweru, harimo umucuruzi wambaye agapfukamunwa k'umukara n'umukiriya wambaye agapfukamunwa k'umweru.

Isoko rya kijyambere ricuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa abantu baza guhahiramo, ni isoko ryiza cyane ririmo amatara meza, harabona haragaragara, hakaba harimo ikoranabuhanga ku buryo ntamuntu wajyamo ngo yibe.